Abantu benshi cyane abakuru n'abato bahagaze imbere y'inyubako, hari amatente yubatse ndetse n'imodoka y'imbangukiragutabara hari n'umudaso uhagaze muri abo bantu.

Umugore wambaye ishati y'umuhondo, aravoma mu mugezi n'ijerekani, inyuma ye hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, nawe uri kogereza igare muri ayo mazi uwo mugore ari kuvoma.

Robine ebyiri zose zifunguye, imwe amazi ari kumenekera ubusa, indi umwana w'umukobwa wambaye agapira k'umuhondo unanutse ateretseho igikombe ari kuvoma, nubwo n'ubundi bitari kuyabuza kumeneka.

Abagore bane n'umwana umwe bari ku ivomero bari kuvomesha indobo ebyiri iy'ubururu n'iy'umuhondo, aho hafi hari akapa gatoya handitseho ijambo unicef.

Umwana w'ingimbi wambaye ishati y'amaboko magufi n'ikabutura, ari gukaraba ibiganza ku mugezi, iruhande rwe hateretse indobo irimo amazi ndetse inyuma hirya hateye ibiti byabaye umuhondo bisa nkaho hatse izuba ryinshi.

Umugore n'abana bato bari ku mupompo, abana bari gupompa amazi mu ndobo, mu majerekani, no mu mabase, iruhande hari inzu bigaragara ko hatuye abantu.

Umujyanama w'ubuzima w'umugore, arandika amakuru mu gitabo ahawe n'umugabo bicaranye wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ya kaki, inyuma yabo hari bandarorI yanditseho ngo "SIDA iracyahari, duhaguruke tuyirwanye."

Ibitaro byiza cyane byubatse ahantu heza mu mirambi, hakurya hari umuhanda wa kaburimbo ukomeza ujya aho abantu batuye nubwo atari benshi cyane.

Icyapa cyanditseho ngo "twite ku buzima bw'umubyeyi utwite", imbere hari abantu bambaye imipira y'ubururu, iy'umweru, amakanzu ndetse n'umupira w'iroze.

Utwana dutatu twambaye inifomo, twose twisize isabune mu ntoki dutegereje gukaraba kuri robine eshatu ziri aho, aho bahagaze mu busitani.

Abana b'abahungu bane umwe yambaye bote afite inkoni mu ntoki, abandi bari kwikinira amazi ari kumeneka aho kugira ngo bapome ajya mu ijerekani ihateretse.

Abagabo n'abagore bari kwifotoza nyuma y'uko bakoze inama, bamwe bicaye ku ntebe imbere abandi bahagaze inyuma yabo, harimo abarebare n'abagufi, ababyibushye n'abananutse.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, linete n'ipantaro y'umukara, aragaburira umwana indyo yuzuye iri ku isahani y'umuhondo nyina amuteruye yambaye umupira w'umweru.

Umwana w'umuhungu muto, wambaye ikabutura y'umutuku, inkweto za bodaboda n'umupira urimo amabara avangavanze, ari kunywa amazi anywera kuri robine nyuma yo kuvomera mu ndobo yazanye.

Umugore wirabura wambaye ingofero mu mutwe uri guseka wambaye agapira n'igitenge, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe iriho akantu k'umuhondo ko gushyira mu isabune imbere y'umuryango wa tuwarete.

Umugore wambaye agasengeri n'igitenge ari koza umwana mu ibasi bigaragara ko umwana abyishimiye hari n'undi mwana uhagaze ndetse n'abandi babiri umwe afite indobo mu ntoki.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo na rinete za fime, ari guhesha inkongoro amata umwana uteruwe na nyina wambaye umupira w'umweru ndetse aho hari n'abandi bantu benshi bari gukora ibisa nk'ibyo.

Abaganga batatu babiri muri bo uwo ku ruhande rw'iburyo n'uw'urw'ibumoso bambaye udupfukamunwa utugofero mu mutwe ndetse n'ibindi by'ubururu bwerurutse, uwo mo hagati nawe yambaye uko, uretse ko we yambaye n'itaburiya y'umweru bafite utuntu tw'udukarito mu ntoki bari kwifotozanya.

Umugore wambaye agapira k'amaboko magufi n'igitenge ufite umwana wambaye ingofero y'umweru mu mutwe, ari kuvoma amazi kurirobine akoresheje indobo y'umukara, inyuma ye hari ibiti.

Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda DR Sabin, arahagaze afite mikoro, ari kuganiriza abandi baganga bicaye mu nyubako, imbere yabo hateretse za mudasobwa bari mu nama.

Abantu benshi bo mu cyaro, bafite indobo n'amajerekani, bari kuvoma basa nk'abakomatira amazi, ariko hari umugabo wambaye umupira w'umweru, ni we uri kuyabafungurira. Inyuma yabo hateye ibiti bigiye bitandukanye, hagati yabyo harimo umwanya.

Abantu bicaye bakoze uruziga harimo abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, bafite ibipapuro byanditseho amagambo menshi ndetse buri umwe agiye afite n'urupapuro rwe mu ntoki, iruhande rw'umugabo umwe wambaye ingofero hateretse agacupa k'amazi ya Nili.

Umuntu w'umugore wambaye umupira w'ubururu n'akajire, afite impapuro ari kugenda aha abantu bakomeza gusoma, inyuma hari ibiti ndetse n'abandi bantu bahagaze.

Abagore bane n'umugabo umwe, bambaye imipira y'ubururu yanditseho amagambo mu gatuza n'ingofero z'umweru, bose bazamuye ukuboko kw'iburyo bafunga igikumwe, bahagaze imbere y'inzu nziza.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako itangirwamo ubuvuzi hari itente ryubatse ndetse hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, abo bantu biganjemo abagore bahetse abana ndetse n'abagabo.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka icumi wambaye imyenda y'ibitenge irimo amabara y'umutuku, ari gukaraba kuri robine akoresheje amazi menshi arakarabira mu ibasi inyuma ye hari porotayi.

World Health Organization cyangwa mu magambo ahinnye WHO, ni umuryango ushinzwe kwita ku buzima ku isi yose, aho ureberera abatuye isi bose ku bigendanye n'ubuzima.

Abagore bane n'umukobwa umwe barahagaze ku ivomero risize ibara ry'ubururu, umweru ndetse na kake, inyuma hari ibiti bihateye ndetse n'akantu k'icyuma gashinze.

Abana bane harimo umwe ugaragara nk'ukuze mu maso, bisa nkaho ari igikuri, barimo barakaraba ibiganza bareba hejuru, umugabo ufite igikombe mu ntoki niwe uri kubasukira amazi.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore baricaye bari gusobanurirwa ku bigendanye nuko umuturage yagera ku buvuzi bwiza, bicaye imbere y'inzu ifite amadirishya asize irangi ry'icyatsi.

Umwana w'umukobwa aricaye, ari kureba imbere, afite amazi mu ntoki ari gukaraba, ari kuva muri robine. Iruhande hateretse amajerekani atatu, abiri y'umuhondo n'indi y'ubururu, hirya hari igiti batemye kirambaraye hasi, inyuma ye hari imbuga ndetse n'ishyamba.

Ofisi yicayemo abantu batanu bari kuganira, umwe ku ruhande rumwe, abagabo babiri ku ruhande rwo hirya n'abagore babiri ku rundi ruhande. Bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi, amatelefone n'amakaye yo kwandikamo ndetse amadirishya arakinguye n'amarido yigijwe hirya.

Umuganga uri kwimenyereza umwuga, ari gusuzuma umwana wambaye ubusa hejuru, uteruwe na nyina wambaye igitambaro mu mutwe n'ikanzu y'igitenge, bicaye aho agiye kumuhera ubufasha.

Umuganga wambaye umweru hejuru, agapfukamunwa, n'uturindantoki, aratera urushinge umusaza wambaye umupira uriho ikirango cya arabise n'agapfukamunwa, inyuma yabo hari abandi baganga bari gutegura ibigendanye n'ubuvuzi.

Abana bato biga mu mashuri abanza, bambaye amashati y'imihondo, bahagaze bazamuye amaboko. Inyuma hahagaze abandi bantu; abagabo babiri ndetse n'abagore batatu.

Abantu benshi bahagaze imbere y'umuryango, iruhande rwabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bamwe bambaye amakositimu, abandi amakanzu, ndetse bahagaze mu buryo bamwe bari imbere, abandi bari inyuma.

Umugore n'umugabo bicaranye batwite imbere y'umujyanama w'ubuzima ari kubereka karindari yanditseho utuntu hari intebe ya sheze iticaweho n'umuntu hari inyubako isize irangi ry'umweru hirya hari n'ururabo rugaragaza ubusitani.

Ameza abiri ateretseho ibidomoro bibiri birimo amazi, abanyeshuri biga mu mashuri abanza na bo bafite ibikombe bari kugenda bavoma, inyuma yabo hari inyubako z'amashuri ndetse hateyemo n'ibiti, hakurya yabo hari umusozi.

Abagore n'abagabo baricaye, baratuje, bakurikiye uri kubabwira, imbere yabo hari akantu kanditseho amazina yabo, ndetse buri wese afite agacupa k'amazi na telefone ye.

Abantu benshi bamwe baricaye abandi barahagaze harimo abakuze n'abatoya mu'urubyiruko ndetse hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, itente ndetse n'inyubako y'akagari.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'amaboko maremare na ga, arimo gusuzuma umwana urira cyane uteruwe na nyina wambaye ibitenge akitega n'igitambaro gikoze mu bitenge.

Umugore wicaye wambaye imyenda y'ibitenge uteruye umwana muganga arimo araha umuti mu kanwa, inyuma hari urugi rusize irangi ry'icyatsi rufunguye rurimo n'urufunguzo.

Abagabo bambaye amakoti n'amapantaro, hamwe n'abagore bahagaze bari kwifotoza, nyuma yo gukora inama mu muryango wa common wealth w'abantu bavuga icyongereza.

Abantu bicaye muri sare y'inama barebana, bamwe bicaye ku ruhande rwo hirya abandi ku rw'iburyo. Imbere yabo hateretse agacupa k'amazi ndetse bamwe na bamwe bagiye bashyiraho telefone zabo n'udukayi two kwandikamo.

Abantu bambaye imyenda y'umweru hejuru hafi ya bose n'abandi bamwe na bamwe bambaye amakoti, bahagaze ahantu bari kwifotoza abandi baricaye, inyuma hari bandalole yanditseho ibintu byinshi harimo n'ikirangantego cya RBC ndetse igikuta kiriho cyubakishije amatafari ahiye.

Abana bato batatu bari gukaraba ku itiyo ryapfumutse riri ku gikuta ahantu ndetse hari n'igiti iruhande rwabo n'akayira bigaragara ko abantu bagendamo.

Umuntu arakaraba ibiganza byombi akoresheje amazi ava muri robine y'urubogobogo, gusa aho robine yubatse hajeho urubobi bitewe n'amazi ahora ahameneka.

Umwana wambaye agapira n'agakabutura, wiyogoshesheje, afite igikombe, ari kuvomera kuri rubine ifite utwo kuvomeraho tubiri, hamwe ari kuhavomera, ahandi amazi ari kumeneka apfa ubusa, hirya hari ibyatsi.

Umugore wambaye iribaya, witeye igikoyi, wambaye rinete ndetse n'akantu ko kugikoyi mu mutwe, inyuma ye hari abana barimo barahengereza, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku.

Akana k'agahungu kiga mu mashuri abanza, kambaye inifomo, kirabura. Kari gukaraba kuri kandagira ukarabe igizwe n'indobo y'umweru, iteretse ku kantu k'akameza. Iruhande rwe hari urugo rwubakishije imikindo.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'ibitaro, harimo ubyibushye cyane n'abandi baringaniye ndetse n'umusore muremure cyane, umwe muri bo yambaye itaburiya, imbere yabo hateye ikirabyo kiza cy'umuhondo.

Abantu, abagabo n'abana baritegereza umuvomo uriho uravoma ijerekani n'akabido k'arindwi, hari umugabo umwe ufite inkoni wambaye ingofero, ndetse inyuma hari ibyatsi n'inzu iri hakurya yaho.

Umugore wunamye wambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku, nta nkweto yambaye. Ari kogereza indobo mu ibase ku mupompo, abandi bagore babiri barimo barapoma amazi. Inyuma hari igikuta ndetse n'igiti cya voka.

Umugabo wambaye amadarubindi na kositimu na karuvati ahagaze imbere ari kubwira abantu intebe eshatu zimuri imbere nta kintu cyanditseho arivuga kubi bigendanye no gushora amafaranga mu bigendanye n'ubuzima.

Umugore utinya urushinge cyane muganga arimo kurumutera, afite ubwoba bwinshi yifashe mu nda, inyuma hari umugabo wambaye ishati y'amaboko, umumufashije kugira ngo hatagira ikibazo kiba.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'umweru n'ikabutura yambaye n'ibirenge ari guppoma amazi kugira ngo mushiki we wambaye ijipo n'ishati abashe kuvoma amazi kabyijya no mu ijerekani amazi araza kwifashishwa mu rugo mu gukoresha imirimo kumesa ndetse no kuyanywa.

Abagore babiri bambaye ibitenge n'ibitambaro byo mu mutwe, ndetse n'umugabo wambaye ishati y'ubururu, baraterura agafuka k'umuceri, uwo mugabo kandi ahagaze hejuru y'utundi dufuka twinshi.

Umugore wambaye ishati y'umweru n'akajire, afite telefone mu ntoki arafotora umugabo wambaye umupira w'ubururu bw'ikirere, ingofero n'agapfukamunwa, uri gukorera umwana w'umukobwa ijerekani ayimukorera mpagaze.

Abantu bari mu nama ku ruhande rumwe hicaye abantu babiri ku rundi ruhande hicaye batatu, intebe iri imbere yicayemo umugabo umwe ku meza hateretse udukombe tw'amazi, hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ku ruhande rw'ibumoso.

Umugore wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'icyatsi n'umutuku, arimo arasuzuma umwana amubaza ibibazo afite ikaramu mu ntoki n'urupapuro rwo kwandikaho, umubyeyi ubicaye uruhande ari kumwenyura ndetse hari n'abandi bamama bifubitse.

Abakinankuru bari gukina ikinamico umugore umwe arapfukamye yunamye ahambiriye amaboko, iruhande rwe hahagaze umugabo uri kuvugira muri mikoro, ndetse hari n'undi mugabo wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma yabo hahagaze abantu benshi biganjemo abana.

Ikigereranyo cy'uko uburinganire n'ubwuzuzanye byari bihagaze mu mwaka ushize, aho mirongo itanu na gatanu ku ijana byari muri bibiri na cumi n'umunani, mirongo irindwi ku ijana ari muri bibiri na cumi n'icyenda, muri bibiri na makumyabiri byari mirongo irindwi na gatandatu ku ijana ndetse mirongo irindwi n'icyenda ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru baji mu ijosi n'uturindantoki arimo aratera urushinge umurwayi w'umukecuru inyuma ye hari undi ufite ibinini mu ntoki ndetse ku meza ho hateretse udupaki twinshi turimo ibinini inyuma hahagaze undi mugabo wambaye jile.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru arimo gutera umwana urushinge uteruwe na nyina wambaye umupira w'ijezi n'igitambaro gikozwe mu gitenge mu mutwe, iruhande rwe hari undi muganga ndetse hari n'akameza gateretseho agakarito.

Akana k'agahungu kicaye kararamye, umugore wambaye umupira w’umutuku n'ipantaro y'umukara, ingofero y'umweru n'agapfukamunwa, arimo aramusuzuma mu kanwa. Iruhande rwe hicaye mama we ndetse na papa we arahagaze, inyuma har’abandi bantu batatu bicaye bategereje.

Umugore wambaye igitambaro cy'umweru n'ishati, ari kumwe n'umwana wambaye agapira k'amaboko maremare ukiri muto cyane, barimo barasoroma imboga za dodo, inyuma yabo hari igipangu kirekire cyane.

Abasore n'inkumi biganjemo abambaye amatabiririya, bafite baji bicaye ahantu ku mabuye, hasa nk'ahasenyutse, inyuma yabo hari umugore wundi uri mu muryango nawe wambaye baji.

Umukecuru w'umuzungukazi wambaye agapira ndetse n'isaha ku kuboko n'agakomo mu kundi kuboko, ufite mikoro mu ntoki, uri kuganiriza abantu ku bigendanye na serivisi z'ubuzima n'uko bashobora kuzibona byoroshye.

Umukobwa wunamye, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu bw'ikirere n'inkweto z'umuhondo, arimo aravoma amazi aho ari gutemba bayategesheje umutumba, ahantu h'icyaro.

Umukobwa ufite imisatsi idasutse wambaye agapira k'irose n'ijipo y'umukara, aricaye ari kuvoma mazi mu ijerekani iteretse mu mabasa abiri aterekanyije, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda, hirya hari inzu, hejuru ye hari igiti.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu arakaraba amazi menshi meza afutse ariko kuva mu gihombo cyo kuri robine ishaje isa nk'aho yazanye urubobi.

Abantu biganjemo abajyanama b'ubuzima n'abaganga, bahagaze imbere y'inzu ku mayesikariye umwe kuri umwe bagiye bashyiramo intera hagati yabo, inyuma hari ibyapa bitandukanye harimo n'icya MTN.

Amajerekani atatu ateretse ku ivomero, umwana w'umukobwa wambaye agakanzu k'igitenge arimo arakarabiraho, hirya harambitse igiti batemye ndetse inyuma yacyo hari n'ishyamba.

Umugabo uhagaze ari kuvuga abwira abantu bicaye, harimo abagore babiri umwe ateruye mwana ndetse n'umusaza urimo hagati yabo, ku ruhande hahagaze umuntu wambaye imyenda y'iroze, ikunze kwambarwa n'abantu bafungiye muri gereza.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi iriho icyapa kiriho abanyeshuri bicaye ndetse handitseho n'amagambo, imbere yaho hari idarapoda ry'igihugu cy'u Rwanda, hahagaze abantu benshi cyane biganjemo abagore n'abagabo, abasaza n'abakecuru ndetse n'abana bahetswe na ba nyina.

Abagabo babiri bari kuvugana bahagaze, umwe yambaye umupira w'amaboko magufi n'agakomo ku kaboko, undi nawe yambaye ishati, ari kugerageza kwambara n'agakomo, inyuma yabo hari abandi bantu, muri iyo nzu.

Abana bato biga mu mashuri abanza, bahagaze imbere y'ishuri ryabo, bamwe imbere abandi inyuma ku mirongo, bambaye imipira y'ubururu yanditseho ijambo UNICEF.

Abantu biganjemo abana bari ku buvomo bavoma amazi, hateretse amabido atandukanye ndetse n'akadomora gatoya, abo bana bambaye imipira n'amakabutura, bari ahantu hari ikinani.

Umwana w'umukobwa aragerageza gukorera mugenzi we indobo irimo amazi, bamaze kuvoma ku ivomero riri impande yabo. Hirya hari inzu y'ibyondo, isakajwe ibyatsi. Hirya yaho gato hari ibiti bitarakura.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, linete n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara. Afashe akana yagashyize ku munzani upima ibiro, hacometseho terefone. Hari n'umugore wambaye ipantaro y'umukara n'impeta ndetse n'uwundi muntu ugaragara ikirenge gusa.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara, agapfukamunwa n'uturindantoki na n'ijire, afite akuma gapima umuriro agiye gupima undi mugore wambaye umupira w'ubururu, ufite ibintu mu ntoki hirya hari ushinzwe umutekano.

Umugabo ufite mikoro uri kubwira abantu bicaye bamukurikiye, akana kicaye hasi ndetse n'abandi bari ku ruhande bafite imitaka bigaragara nkaho izuba ryari ryababujije kureba, umupolisi wambaye inifomo ndetse n'umugore uteruye umwana mu ntoki.

umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine ni'itanu wambaye ishati n'ipantaro uri guseka afite ijerekani ari kuri robine ifite utuntu tubiri bavomeraho, inyuma ye hari urugo rwubatswe n'imihati n'inzu ndende itagaragara cyane.

Bandarore yanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, iti isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura, ifashwe n'abantu batandukanye, abagabo n'abagore bambaye imipira y'umweru n'iy'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru.

Umwana wambaye agapira k'amaboko k'iroze n'ijipo ya kake n'udukweto tw'iroze afite akabido karindwi ari kuvoma ku mupomo, mugenzi we w'umuhungu arimo aramupomera. Hagaze abandi bantu benshi biganjemo abana, abagabo n'abagore.

abaganga bambaye inifomo y'ubururu bwerurutse, barereka abashyitsi babasuye uburyo bakoramo babasobanurira. Abantu bafotora babiri umwe ari gufotora ahereye imbere, undi inyuma yambaye ikote ry'umukara afite inda ndetse na karuvati.

Abagore benshi bahagaze, bamwe bambaye amajile agaragaza ko hari igikorwa runaka cyabahuje, bahagaze imbere y'inzu yubakishije amategura, ifite amadirishya abiri, rimwe rikinguye.

Umuganga w'umuyisilamukazi witandiye aravura abarwayi, barimo umusaza wambaye ingofero n'ikoti ndetse n'ipantaro y'umukara, hari n'abandi baganga n'abandi barwayi bari kwitabwaho.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge birimo amabara avangavanze, y'ikoreye ibido y'amazi, iruhande rwe hari umwana uvuye ku ishuri uri kumureba hari n'undi wunamye, aragenda yerekeza ahantu hubatse inzu ya kadasiteri.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo na linete, aragerageza kuvugisha akana gateruwe na nyina wambaye umupira w'umweru na ko kambaye umupira w'umuhondo ndetse hari n'abandi bagore bicaye bateruye abana n'undi mugabo hirya wambaye umupira w'umuhondo.

Utwana tubiri, kamwe kambaye imyenda isa y'ibitenge ndetse n'akandi kambaye umupira w'umutuku, turicaye hasi, turi gukina n'amazi ari kwimena, iruhande rwaho habaye ibyondo, inyuma ni ahantu hari ibyatsi byumye wagira ngo ni ubutayu.

Umwana wambaye agapantaro k'iroza yakunje amaguru yako ndetse n'agapira ka kacye, aravomesha amajerekani ane kuri robine, iruhande rwe hari ibyatsi ndetse n'urutoki.

Abana babiri bicaye imbere y'ameza, umwe yambaye umupira w'ubudodo yazamuye akaboko n'urutoki rwa mukubitarukoko, undi yambaye agapira k'amabara, inyuma yabo ku gikuta hariho ikibaho bigiraho cyanditseho.

Umugabo wambaye ijire yijimye yanditseho amagambo mu cyongereza, ugenekereje mu kinyarwanda byavuga umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS, ari guha umuntu wambaye umupira w'icyatsi w'umukobwa, udukarito turimo amafu yifashishwa mu guhabwa abana bakiri bato.

Abagore batatu babiri barunamye umwe ari kunywa amazi undi ari gukaraba ibiganza yambaye n'agapfukamunwa, inyuma hahagaze undi wambaye agashati k'iroza ndetse n'agapfukamunwa, hari amabido abiri ahateretse ndetse inyuma hari n'ibiti byinshi.

Abagore babiri bambaye ibitenge n'umwana umwe w'umukobwa wambaye ikanzu bari kuvoma kuri robine hateretse amajerekani menshi, inyuma hari urutoki ndetse n'uruzitiro rwubakishije imiyenzi.

Umubyeyi wambaye ikanzu n'isaha ku kuboko agapfukamunwa n'amaherena ateruye umwana ukiri mutoya arimo aramusoma ahumirije, inyuma ye hicaye undi mubyeyi wambaye nawe agapfukamunwa uteruye umwana, inyuma y'uwo mugore hari igikuta gisize irangi ry'ibara ry'umuhondo.

Akana k'agakobwa kambaye utwenda tw'igitenge, turimo amabara y'umutuku n'ayandi mabara, kari gukaraba mu ibase y'umukara kuri robine, inyuma yako hari igipangu cyubakishije amatafari ya buroke sima.

Umugore wambaye agapira k'amaboko magufi ukenye igitenge uhetse umwana arunamye arimo aroza umupfundikizo w'indobo, arogereza kuri robine hirya ye hari ibiti ndetse hari n'ibyatsi byinshi.

Umuntu muremure wifubitse, wunamye, ari kuvomera amazi mu ijerekani, kuri robine, inyuma ye hari ibihuru byinshi, iyo robine iteye ahantu hasa nk'ahadatuwe cyane.

Inama yari yahuje abajyanama b'ubuzima irarangiye aho bageze mu kanya ko gutera akamorare kugira ngo basoze, aho bicaye hari pasuparume ndetse harimo n'akayira gato umuntu acamo akomeza.

Mu magambo y'icyongereza haranditse ngo "UNICEF for every child." Tugenekereje mu kinyarwanda haranditse ngo UNICEF kuri buri mwana. Hariho na rogo yayo irimo umugore uteruye umwana.

Umuganga wambaye itaburiya mu imbere yambayemo imyenda y'ibitenge, arimo arasuzuma akana kambaye agapira k'umweru gateruwe na nyina wambaye imyenda y'ibitenge, inyuma urugi rusize irange ry'icyatsi ndetse no ku rukuta hasizeho irange.

Abantu, abagore n'abagabo bicaye mu nama. Imbere yabo ku meza hateretseho uducupa tw'amazi, udukaye tw'ubururu n'utundi dukayi tw'umweru. Ni ibikapu byabo bamwe na bamwe.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi yakuye mu mushinga n'agatambaro n'ijipo, ari kuvomera amazi umwana w'umuhungu wambaye umupira wumutuku n'ikabutura, iruhande rwa bo hari abantu babashungereye ndetse inyuma ya bo hahinze urutoki.

Abantu batatu bicaye imbere mu cyumba cy'inama, abandi benshi bicaye babakurikiye, ndetse hari ishusho ririho umuntu wambaye imyenda yambarwa mu gihe cy'icyorezo, yifurebye ahantu hose, ni ahantu h'ubururu handitseho amagambo.

Umuganga wambaye akantu mu mutwe, agapfukamunwa n'inifomo y'icyatsi, ari kureba mu kuma karimo imibare muri raboratwari aho asuzumira abantu, imbere ye hari idirishya ryijimye bisa nkaho ari nijoro.

Abajyanama b'ubuzima bicaye biganjemo abagore bambaye amataburi y'ubururu ndetse n'ibitenge hamwe n'umugabo wambaye itaburiya, ipantaro n'inkweto zifunguye ku gikuta hasize irange ry'umuhondo.

Abarwayi bicaye bategereje gufashwa na muganga, higanjemo abagore, bamwe bicaye ku ruhande rw'ibumoso abandi bicaye k'urw'iburyo ndetse bamwe muri bo bahagaze aho umuganga ari kugira ngo abafashe.

Abantu bicaye imbere yabo hagiye hateretse akameza, abagore bamwe bagiye baterekaho na marete zabo, imbere yabo hari umugore wambaye ikanzu y'umweru n'agakote, uri kubaganiriza, inyuma ye kandi hari abantu benshi bicaye.

Umwana w'umukobwa wambaye aga kanzu, ufite igitenge araza kubangamo ingata, ari kuvoma amajerekani kuri robine, iruhande rwe hahagaze umu mama wunamye uri kumureba, hejuru ye hari undi ufite umutaka, inyuma yabo hahagaze abana benshi.

Abantu bahagaze harimo abaganga bambaye inifomo z'ubururu bwerurutse, abambaye amataburiya ndetse n'abambaye hejuru umweru, ku murongo w'inyuma hariho abatambaye inifomo, bahagaze imbere y'inyubako, iruhande hari ubusitani cyangwa se uturabyo dukeya.

Abaforomo batanu, abagabo bane n'umukobwa umwe, bicaye bareba imbere, gusa umwe arahagaze, afashe ku rutugu rwa babiri muri bo. Bose bambaye inifomo isa hejuru ndetse bamwe bambaye n'uturindantoki, ku meza imbere yabo hateretse ibikoresho bakoresha bavura.

Inyubako zubatswe kera zashaje zatangiye kuzana urubobi, ziri mu busitani na bwo ubona ko bushaje, inyuma hari izindi nyubako ndetse harimo n'ibiti.

Ku kazu k'amazi hariho umuntu uhagaze imbere uvomesha wambaye umupira w'umukara n'ijipo ndetse n'amajerekani menshi atonze umurongo. Ku ruhande hari abagore batatu bategereje kuvoma n'umukobwa umwe wambaye ikanzu.

Abagore babiri bambaye ibitenge, umwe wambaye isengeri y'umweru, undi wambaye agapira k'amaboko magufi, barimo baravomera amazi mugenzi, wabo uri koza indobo, ayogereza mu kibase. Hirya hari igiti.

Umuganga uri kumwe n'abarwayi biganjemo abagore bakikiye abana, arimo aragenda abasuzuma. Ku ruhande hari akabogisi karimo ibikoresho bye ndetse n'utundi tuntu tw'udupapuro turiho amagambo bari buze gusoma.

Nyakubahwa madamu Jeannette Kagame aratanga ikiganiro, imbere ye hari microphone ebyiri yambaye rinete n'amaherena n'ikanzu y'icyatsi n'isaha ku kuboko araganiriza abantu ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye ikigofero gisa nabi, arimo araseka afite igihanga hasi no hejuru, yambaye ishati ya karokaro ifite amaboko maremare, ndetse yiteye n'akantu k'umuhondo.

Umugore wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye, mu imbere yambayemo ikanzu y'umutuku wambaye baji mu ijosi, arahagaze imbere mu nyubako, aho amaze kuganiriza abantu ku bigendanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi n'igitenge, witeze igitambaro cy'ubururu, wicaye ku ntebe ya pulastike, aravugana n'umugabo wambaye umupira w'ubururu, barakorera kumeza iriho agatambaro k'umuhondo, iteretseho igicupa kinini cy'amazi.

Umugore wambaye agatambaro k'umuhondo mu mutwe n'umupira wakaki n'ijipo y'amabara, ateruye umwana wambaye agapira k'icyatsi, iruhande rwe hicaye undi mwana, imbere ye hateretse intara iriho akantu k'umutuku karimo ibigori, inyuma ye hari inzu ifite umuryango w'urubaho.

Umugore wambaye imyenda y'igitenge irimo amabara y'umuhondo n'ubururu, n'ibikomo byinshi ku kuboko n'impeta ndetse na baji mu ntoki, afite akantu k'agapapuro ari kwerekana. Inyuma ye hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye, yatangiye kuzamo umugese.

Umugore wirabura wambaye ijiri y'umuhondo n'akantu k'ubururu bwerurutse mo imbere ari gucuruza blueband, salisa, saladine n'ibirungo n'ibindi.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe yipfutse mu maso akoresheje agatambaro, ku bikonjo bye harakomeretse bisa nkaho yikubise hasi ndetse yambaye n'ingofero isa nabi mu mutwe, inyuma ye hari umugabo uhahagaze.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore, inzego z'umutekano n'inzego z'ubuzima, bahagaze imbere y'inyubako aho bakoreye inama yigaga ku bigendanye no kwirinda ihohoterwa ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye ibintu bisa nabi byinshi bivangavanze wigikara, inyuma ye hari ibintu bibi ndetse hari ikintu kinini kimeze nk'ingorofani kandi aho hantu ari, hasa nk'ahantu mu kajagari.

Inama yitabiriwe n'abagabo n'abagore harimo n'umugabo ufite uruhara n'uwambaye umupira w'umuhondo, umugore abahagaze imbere ari kubabwira abasobanurira, bafite uducupa tw'amazi, malete, amatelefone bicaye ku ntebe bari muri sale, amarido afunguye idirishya rigaragara.

Umugabo uhagaze ari kwifotoza wambaye ishati y'amaboko maremare inyuma ye hari abantu benshi harimo n'uwambaye umupira w'umutuku ingofero n'ipantaro y'ikoboyi ndetse n'inkweto z'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ubyibushye ufite mikoro uhagaze ari kuganiriza abagore batatu bicaye, abasobanurira imbere yabo ku meza hateretse amazi ndetse n'amatelefone yabo.

Umuganga wicaye ku ntebe imbere ye hateretse ameza yashyizeho telefone n'ibindi bikoresho, ari kuganiriza abagore babiri bafite abana bakikiye anabaha ifu ya ongera ifasha abana gukura neza, hirya inyuma kuri firigo hateretse terimusi.

Umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, uba ku itariki icumi z'ukwa cumi, ugamije gushishikariza abantu kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe, kuko ari yo nkingi y'imibereho ya muntu.

Umugore ufite ubumuga bwo mu mutwe yambaye imyenda isa nabi afite ibyatsi mu ntoki ari gushyira mu isashe arananutse cyane, iruhande rwe hari ibicupa bihateretse yicaye ahantu mu muhanda hari abandi bantu bagenda n'abagaruka.

Urubyiruko rurangije amahugurwa yo kwita ku buzima bwo mu mutwe, bahagaze imbere y'inyubako bari kumwe n'ababahuguraga, aho bari hashashe amakaro meza ndetse barishimye kubw'ibyo bungukiyemo.

Umugore wambaye amarinete, agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara, arimo araganiriza, ahumuriza umugabo wambaye ingofero, ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro ijya gusa n'umutuku.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inyubako bamwe bambaye amarinete abandi ntibayambaye, iruhande hari igipapuro cyanditseho inyuguti kiriho n'amashusho, hari esikariye zizamuka zijya mu cyumba cyo hejuru.

Imodoka nini yazanye ibikoresho biri kwifashishwa n'abaganga barimo kuganiriza abaturage ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, basanga harimo ufite ikibazo akaganirizwa, hahagaze n'abandi bantu ku ruhande ndetse hari n'ibiti n'izindi nzu zituwemo n'abantu.

Umugore wirabura wambaye umupira n'ikote ufite isuka mu ntoki wikoreye agatebo karimo ingemwe akoresheje ingata inyuma ye hari inzu y'amategura iriho ibyatsi byagiye birandaranda kuri yo.

Umugore wicaye wambaye amarinete ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hateretse uducupa tw'amazi, inyuma ye hari umugore wambaye ikoti ry'umutuku wisize ibintu ku munwa ndetse aho bicaye hari n'abandi bantu benshi.

Umujyanama w'ubuzima wambaye umupira w'umweru ari gufasha umugore wambaye ikanzu y'igitenge n'imbere harimo agapira k'amaboko magufi ndetse n'akaboneti mu mutwe uteruye umwana w'umukobwa ufite uduherena mu matwi.

Umusore wambaye ibyenda byacikaguritse hasi no hejuru n'ibikweto by'umweru, ufite bombo mu kanwa wisize imbyiyinro mu maso, afite agafuka, igitebo, inyuma ye hari imodoka itwara imizigo ifite ikizuru cy'icyatsi n'igipakirwa cyijimye.

Inyandiko yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ugenekereje mu kinyarwanda ivuga ngo buri wese n'aho ari afite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwo mu mutwe bwiza, iriho umukobwa wishimye useka bigaragara ko nta kibazo afite.

Abana benshi bahagaze, harimo abafite utubido two kuvomesha, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse hubatse n'ibiti bimeze nk'igisharagati. Ku ruhande rwo haruguru hari ibyatsi byumye ndetse n'ibihuru ku rundi ruhande.

Umugore uhagaze imbere, ndetse hari n'amashusho yatanzwe na Porojegiteri, ariho ibyo ari gusobanurira abantu bicaye imbere, biganjemo abagabo n'abagore.

Imodoka nini y'umweru iparitse ahantu mu mbuga hatakimerara ibyatsi hari umugore uri gutambika, hirya ye hari igiti ndetse n'inyubako igaragara ko ituyemo abantu.

Umwana w'umukobwa umeze nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe wambaye imyenda icurikiranyije afashwe n'abantu babiri umubyeyi ndetse n'umugabo inyuma hari abandi bantu bari kubarebera.

Umuntu wirabura wambaye agapira k'amaboko magufi n'igitenge, yicaye ku mutumba yambaye inkweto za kamabiri, azirikishije umunyururu ku giti kiri imbere ye, inyuma ye hari ibindi biti byinshi bisa nk'aho ari mu ishyamba.

Abantu bicaye bakoze uruziga harimo abagore n'abagabo bari kuganirizwa ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bamwe muri bo bahagaze hagati bari kubaza ababasobanuriraga ibisobanuro birambuye.

Umugabo ufite imisatsi iteye ubwoba, wambaye ishati y'ubururu, witeye akantu k'umuhondo, afite igihanga hasi no hejuru, ku buryo ushobora gukeka ko ari inyinya, inyuma ye hahagaze abandi bambaye nka we.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, arashyira indabo ku mva anunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi, mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda, arababaye cyane.

Umukecuru ufite ubumuga bwo mu mutwe, yicaranye n'abana bato bari mu kigero cy'imyaka itatu n'umunani, bamwe muri bo bambaye inifomo bigaragara ko bavuye ku ishuri, abandi bambaye imyenda yo gukorana mu rugo.

Umugore ateruye umwana w'uruhinja ariko watangiye kwicara no guseka, utaramera amenyo, bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya amwe manini cyane.

Umugore wambaye ibitenge birimo amabara atandukanye afite umwuko ari gukoza mu isafuriya iriho imbyiro iteretse ku ziko, iruhande rwe hari umupfundikizo w'isafuriya ndetse n'igikombe cy'icyatsi, hari ibiti byinshi muri iyo mbuga hirya hari urutoki.

Umwana w'umuhungu ufite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye ahantu hijimye mu kizu k'ikirangarira, yambaye ubusa buri buri, akaguru kamwe agahinnnye akandi akarambuye.

Umupira wambaye umupira wa jezi n'igitenge yicaye amaguru ye arimo amapingu ku gasambi iruhande rwe harambuye igitenge yifashe mu mutwe yambaye agakomo ku kuboko hari akantu k'icyatsi iruhande rwaho yicaye.

Umusaza ufite ikibazo cyo mu mutwe, wambaye ibirenge, ikabutura n'umupira w'amaboko magufi, wiziritse n'ibintu ku kaboko, arasitaye yenda kwikubita hasi, iruhande rwe hari inzu iriho akabaraza kariho umugabo wicaye ku igare n'abandi bantu bari aho hafi.

Abana b'abanyeshuri bo mu mashuri abanza, baricaye bakurikiye ibyo bari kubwirwa, bambaye imipira y'umuhondo hejuru bose ndetse hari n'utundi tuntu bagiye babambika mu mutwe tw'udupapuro.

Umugabo wambaye ishati y'igitenge, wirabura, arararamye, arareba hejuru, yegamye ku gipangu, gisize umucanga, aho hasi hagiye hamera ibyatsi birandaranda.

Umuganga wambaye ga z'iroza n'itaburiya, afite akuma mu ntoki ari gukoresha mu rwasaya ruriho amenyo harimo rimwe ryakutse mu rwego rwo kwita ku buzima bwo mu kanwa.

Umugabo wambaye ishati y'ikoboyi n'agapira mo imbere, arimo aramwenyura, afite amenyo meza asa n'umweru. Isuku yo mu kanwa ni ingenzi, kwita ku menyo bigira akamaro kanini cyane.

Abagabo n'abagore benshi bamwe bicaye hasi kuri tapi barishimye cyane, harimo n'umwe ufite umwana mwiza w'uruhinja. Barangije amahugurwa bahuriragamo.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu bwijimye, ufite ubwanwa kandi wiyogoshesheje umusatsi mucye, araseka amenyoye ni umweruru bigaragara ko yiborosa kenshi gashoboka.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, wasamye ufite akadodo ari gukoza mu menyo ye kandi afite inyinya, amenyo ni ingenzi, tubungabunge ubuzima bwo mu kanwa.

Umugabo wishimye cyane ufite umusatsi muke, ibitsike byinshi, n'amenyo meza y'umweru, ari kwireba mu ndorerwamo araseka cyane amenyo ye arimo akadodo ni we wagashyizemo kandi ari kugakurura.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa n'uturindantoki, bambaye n'inifomo y'akazi, barasuzuma umugore mu kanwa bamuryamishije, bakoresheje ako kumurikisha ndetse n'utwuma bari kugenda bamukoresha mu menyo.

Akana gato kiyogoshesheje gafite amatama, kambaye ishati y'ubururu bwerurutse, gafite uburoso bw'abana bato mu kaboko k'ibumoso.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'itanu ubyibushye ufite amaso manini ibitsike byinshi n'amazuru manini, ndetse akaba afite n'ishinya y'umutuku n'utwanwa dukeya ku kananwa afite akantu mu menyo k'akadodo arishimye cyane araseka.

Umugabo wambaye imyenda yo kurarana y'umukara n'impeta ku rutoki ari kwikoza akantu mu menyo y'ireba mu ndorerwamo, imbere hateretse utuntu tw'umweru ndetse inyuma ye hari n'amarido arimo ibara ry'umutuku.

Umwana uri kwigishwa uburyo bwo koza amenyo, ahagaze mu ishuri ririmo abandi bantu batatu bahagaze imbere y'ikibaho cy'umukara kiri ku rukuta rusize ibara ry'umuhondo.

Umugore w'umuzungu, umwarimu ndetse n'umuganga wambaye tabiriya yumweru arigisha umwana w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi uburyo bwiza bwo koza amenyo amwereka aho yakora aho yakoza kugira ngo amenyo ye ahora asukuye.

Umuganga w' amenyo, wambaye uturindantoki, arasuzuma umwana w'umukobwa mu kanwa. Uwo yambaye amaherena mu matwi n'agapira k'umuhondo ndetse umusatsi we bawufungiye inyuma.

Umurwayi w'umugabo, wambaye umupira w'umukara, abaganga bamuryamishije ku gitanda baramwasamura, barimo baramusuzuma amenyo n'ubundi buzima bwo mu kanwa.

Abana bato biga mu mashuri abanza bambaye inifomu z'ubururu, bafite uburoso bw'icyatsi, ubw'ubururu, umutuku, buriho korogati, barimo koza amenyo inyuma yabo hari ibiti.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu n'uturindantoki, afite udukoresho twabugenewe, agiye gusuzuma umwana ubyibushye ubuzima bwo mu kanwa, umwana ufite impengekerane.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ufite amaherena ku gutwi no ku zuru, wambaye indorerwamo z'amaso, yifashe ku bwanwa akoresheje urutoki rwa mukubitarukoko.

Abaganga babiri, umugabo n'umugore, bombi bambaye inifomo y'umukara hejuru, uturindantoki n'udupfukamunwa, barimo barasuzuma umurwayi mu kanwa, hirya hari ibindi bitanda bavuriraho abandi barwayi.

Umusaza wambaye amarinette n'umupira w'ivu, ufite umusatsi urimo imvi wirabura ari ku rukarabiro agiye gukaraba, iruhande hateretse agacupa karimo umuti w'isabune.

Icyumba cyo kwa muganga kifashishwa mu gusuzuma abarwayi baca mu cyuma, harimo agatanda umurwayi aryamaho ndetse n'agatebe umuganga umusuzuma aba yicayeho.

Umuganga wambaye agapfukamunwa n'uturindantoki n'amarinete mu mutwe, arareba umurwayi uryamishije ku gatanda, yamwasamuye amusuzuma mu kanwa, hari n'ibikoresho bikoreshwa kwa muganga.

Umugore ufite imisatsi myinshi, wambaye isengeri y'umweru n'impeta ku rutoki, ari koza amenyo kuko abizi neza ko ari isoko y'ubuzima bwiza bw'umuntu bwo mu kanwa.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye ishati ya Karokaro uryamye kwa muganga, umuganga wambaye ga aragerageza kumusuzuma amenyo akoresheje udukoresho twabugenewe.

Abana bato bo muri pirimeri, bambaye iniforomo ya karokaro n'icyatsi, barimo koza amenyo bakoresheje uburoso na korogati, bakoresha ibikombe by'umuhondo, ubururu, ni na move, barishimye cyane.

Abagore babiri bambaye amakote umwe irya buresiyeri, undi iry'umutuku, bahagaze bafite impapuro mu ntoki, iruhande rwabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi n'amatelefone inyumaku gikuta hariho karindari ndetse n'utundi dupapuro.

Abaganga n'abarwayi bari gusuzuma batonze umurongo, hari itente rya RBC ryanditseho umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi bwo mu kanwa, ndetse inyuma hari ibiti ndetse hari n'ikirere gisa neza cyane, kirimo ubururu n'ibicu.

Umusaza ufite uruhara, wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi wicaye ku buriri muganga arimo agerageza kumuhagurutsa kubera ko we yumva atabishobora.

Abagore batandatu bambaye ibitenge by'amabara atandukanye, bicaye bari kuganira, imbere yabo hateretse inyanya ndetse inyuma hari imbuto z'umuhondo, harimo amaronji na manderine.

Umugabo ukuze watangiye kuzana imvi, wambaye agapira k'ubururu, muganga ari kumwerekera amwereka uko yakora siporo, kuko ku myaka ye ni ngombwa kugira ngo yirinde indwara zimwe na zimwe.

Umugabo w'umusaza w'umwirabura wambaye impeta n'umupira w'umweru arasangira n'umukecuru w'umuzungu wambaye umupira w'iroza bararya ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri baranywa amazi mu gikombe barasangirira ahantu mu gikoni.

Umusaza w'imvi wambaye ishati n'umupira w'umukara mo imbere, ararura ibiryo ku isahani akoresheje ikiyiko, yicaranye n'undi muntu ndetse hari n'amatara aho bicaye muri saro.

Umukecuru ukuze, ufite umusatsi w'imvi, wambaye amaherena, ari kumwe n'umukobwa ukiri muto, ufite umusatsi muremure wafunze, bari ahantu mo imbere, hari kugaragara idirishya n'amarido afunguye.

Abagore bicaye bishimye bari kumwe n'umugabo uteruye akana w'umuzungu ndetse n'umugore uri kuboha inkangara, haruguru yabo hari ibihuru ndetse aho bicaye hashinze n'ibiti.

Abaturage bo mu cyaro harimo abagabo n'abagore bambaye amakanzu, bahagaze ahantu hari ibyatsi bazamuye amaboko, inyuma yabo hahinze ibigori ndetse n'ikirere kiragaragara ko hagiye kugwa imvura.

Umusaza ufite imvi wambaye amadarubindi n'umupira w'amaboko magufi aricaye ari gusoma igitabo n'umuhungu we wambaye ishati y'amaboko maremare, kumeza bicaye imbere hateretse ibikombe bibiri byiikawa.

Umusaza ukuze ufite imvi, yambaye ishati ya karokaro, aricaye ateruye akuzukuru ke k'inzobe gafite agapupe k'akanyoni mu ntoki, bicaye muri saro barishimye.

Umuganga ushinzwe gufasha abantu kumererwa neza no kugira ubuzima buzira umuze, ari gufasha umukecuru gukora siporo arambura amaboko kugira ngo abashe kunanuka. Iruhande hari amadirishya n'ikirere gisa neza hanze.

Abantu batatu, abagore babiri n'umwana umwe imbere yabo hateretse ibintu birimo udukombe, udusahani n'utundi tw'utwatsi tumeze nk'imiti gakondo baraseka barishimye uretse uwo mwana mutoya.

Umubyeyi ukuze ufite imvi wambaye amadarubindi n'amaherena mu matwi, yipfutse ku munwa n'ikiganza nyuma yo kumira ikinini yumvise gisharira cyane.

Umugabo wambaye imyenda y'imbeho, ufite imvi, arwaye indwara z'ubuhumekero, umuganga wambaye agapfukamunwa n'umupira w'imbeho, aramufashe kugira ngo abashe kumererwa neza.

Umugore wambaye agapira k'icyatsi n'ako kwifubika, udafite umusatsi, wambaye amaherena, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki n'ibinini mu kindi kiganza yitegura kunywa.

Umurwayi wicaye watangiye kuzana imvi, wambaye umupira w'amaboko n'akajire, umuganga amwica iruhande amufashe ikiganza, ahantu mu nyubako ikikijwe n'ibiti n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abakecuru bambaye amajipo y'umukara n'imipira y'umweru, ndetse ubari imbere we yambaye ikanzu yiteze n'igitambaro, bari kugenda bakora siporo batambuka umwe kuwundi, hari umukobwa wambaye we ishati y'ubururu bw'ikirere n'ijipo y'umukara ubitaho, ndetse n'umuganga wambaye imyenda y'umweru inyuma yabo.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo inani arakoresha telefone ya smart phone ,arayikoreshereza kure nkaho afite ikibazo cy'amaso. Muganga aramwerekera amufasha kugira ngo agire icyo yamenya agire ubuvumbuzi yakora ku kigendanye n'amaso ye.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu, arimo araha ikinini umukecuru wambaye ishati y'amaboko maremare ya kake. Afite igikombe cyo kunywesha ndetse ku meza hari akandi gapaki k'ibinini.

Umuganga w'umugore arasuzuma umurwayi bw'umusaza ubyibushye, amubwira kurambura amaboko ubundi agafunga ibipfunsi kugira ngo agire ibyo areba. Inyuma hicaye umukobwa wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y' ikoboye.

Umubyeyi w'umugabo, wambaye umupira w'icyatsi, inyuma yambaye igishati gifite uruhu rukomeye, afashe ku rutugu umwana we w'umukobwa, wambaye agapira karimo imirongo y'umukara n'umweru ndetse n'agakote k'ikoboyi, bahagaze imbere y'igipangu cyijimye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, wicaye wafatishije ikiganza ke mu maso, asa nkaho yarari gusoma n'ubwo basinziriye, ku meza hari ibitabo ndetse na suri yo gukoresha kuri mudasobwa.

Umugore ukuze ufite imvi wambaye ahanete mu ijosi n'agasengeri ka move, ari gukora siporo ku gatapi aho ashinze amaboko asa nk'ugiye gukora pompaje.

Umukecuru ufite agasatsi gake karimo tensire wambaye shanannette mu ijosi arahabwa ikinini n'umuganga wambaye isaha ku kuboko wambaye nnifomo ufite umusatsi muremure wambaye n'amaherena agiye kukinywesha ikirahure cy'amazi aho yicaye mu nzu.

Umuganga w'umugore wambaye ipantaro y'umukara, inkweto, z'umweru n'ishati y'umweru, isaha ku kuboko, arimo arasindagiza umurwayi w'umugabo wambaye ipinjama ndetse n'ipantaro y'umutuku n'inkweto z'umukara kugira ngo abashe gutambuka.

Umugore n'umugabo bari gupfundura ibinini, ku meza hateretseho akandi kantu karimo ibinini n'akandi gapaki k'utunini, ikarita y' ikarita ndetse linete, igikombe n'akandi gakopo, inyuma hari ibindi bintu biteretse ku meza harimo na keto.

Umukecuru wambaye agapira karimo uturongo tw'umukara, ufite imvi, wambaye linete, afatanye ikiganza n'umuganga w'umuzungu, bose baramwenyura bishimye.

Umuganga wambaye inifomo y'ubururu na baji mu ntoki, arimo gusuzuma umukecuru wambaye ishati irimo amabara, wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, aramusuzumira mu nzu y'inyubako y'ibitaro.

Umuganga wambaye inifomo y'ubururu bw'ikirere arita ku murwayi w'umugabo w'umusaza ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, ufite inkoni mu ntoki wambaye impeta wicaye mu ntebe ahantu mu gisare.

Abantu batatu, umukecuru n'abakobwa be babiri, bicaye muri saro ku meza bari gukina amakarita basetse batembagaye, barabikora mu rwego rwo kugira ngo babashe kuruhuka mu mutwe no kwishima.

Umuryango wishimye urimo umusaza, umukecuru, umugore n'umugabo n'abana babo babiri b'abakobwa, bicaye mu ntebe muri saro, barimo baraseka.

Abantu barimo gusoroma icyayi, harimo umugabo umwe n'abagore bane bambaye ibitambaro mu mutwe n'indi myenda itandukanye, barasoromera mu gitebo. Inyuma yabo harijimye, hasa nk'ahari ibihuru byinshi.

Abagore babiri babyibushye, umwe wambaye igitambaro cy'umutuku mu mutwe n'igipira kinini cy'amaboko, ndetse na mugenzi we wambaye imyenda ya siporo, bari kugenda mu muhanda ku ruhande ya hateye ibiti ndetse hari jaride iteyemo utwatsi twiza.

Umugore wambaye agapira k'amaboko magufi n'umugabo wambaye ishati irimo uturongo baricaye bari kureba muri telefone ya Smart phone, imbere yabo ku meza hateretse agakombe k'amazi ndetse n'agacupa karimo ibinini, umugore afite n'urupapuro ari gusomaho.

Umubyeyi wambaye ikabutura, amasogisi maremare n'inkweto n'umupira w'amaboko maremare ari gukina n'umwana we w'umukobwa umupira, ahantu mu kibuga ku ruhande hari inzu ndetse hari n'ibiti muri jaride.

Umukecuru wambaye impeta eshatu ku biganza byombi, ari kumwe n'umusaza wambaye impeta ku kiganza kimwe, imbere yabo ku meza hari agacupa karimo ibinini byo kunywa, bicaye muri saro barishimye cyane.

Umuganga w'umugore wambaye inifomo y'ubururu bwerurutse, ari gusunika umurwayi mu kagare k'abafite ubumuga ubyibushye, inyuma yabo hicaye undi muganga urimo uganiriza umurwayi.

Umusaza ufite uruhara, ufite n'imvi mu bwanwa wambaye ishati y'icyatsi cyijimye, afite ikirahure cy'amazi mu kiganza kimwe, mu kindi umukobwa w'umuganga arimo aramusukiramo umuti.

Abasaza bicaye bambaye neza, bafite inkoni, hirya hicaye bagenzi babo, bategereje kuganirizwa ku bigendanye no kwita ku buzima bw'abasheshe akanguhe.

Umusaza wambaye umupira wijimye n'ipantaro y'umukara, umugore wambaye agashabarara ndetse n'umugabo wambaye ishati y'umweru, baragerageza kumuhagurutsa ariko byanga.

Umukecuru wambaye umupira w'ubururu, arareba umusaza uri kunywa amata y'ikivuguto mu gikombe, wicaye mu ntebe irimo imisego y'umweru hari n'umuryango ufite ibara ry'umuhondo.

Abagore bakuze barenga batanu, bicaye hasi imbere y'intebe za parasitike, iruhande rwabo hari urutoki, bafite ikibazo cy'amaso, baricaye, bategereje ko muganga aza akabafasha ku kibazo cyabo.

Umukecuru ufite imvi wambaye umukenyero n'kabodi ka bure siyeri, yambaye urunigi mu ijosi, ari kumwe' numusaza wambaye umukenyero n'ishati n'ingofero mu mutwe, ndetse inyuma yabo hari abantu benshi bicaye ahantu hijimye bambaye imyenda irimo iy'umutuku n'ibitambaro by'umuhondo n'ibitenge.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi wicaye, imbere ye hari akameza arimo arakina igisoro hahandi ugenda ufata akantu ukimura mu tuntu tumeze nk'udukari.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya diyabete, agashusho k'umukobwa uhagaze ufite ukuguru kubyimbye n'inyubako ya komveshoni iherereye mu mujyi, ndetse n'inyubako ndende nyinshi ziri mu mujyi wa Kigali dawuni tawuni.

Abaganga b'urubyiruko bambaye uturindantoki n'amataburiya baravura abarwayi b'abakecuru babasuzuma babaha n'imiti. umugabo wundi wambaye ijire isa nk'iy'abakangurambaga ahagaze aho ngaho.

Umugabo wambaye ishati yumweru ipantaro n'inkweto z'umukara araganiriza abana bambaye inifomo n'ama karuvati mu ijosi bicaranye n'umugore inyuma yabo hari utuntu duteretse tumeze nka kare ndetse inyubako bicayemo isize sima.

Abanyeshuri bambaye amashati y'umwer, biganjemo abisukishije, bicaye ku ntebe zisa bakurikiye umukobwa uri imbere, uri kubasobanurira ndetse hari n'umuntu uri gufotora.

Umugabo w'umuforomo, wambaye ubururu hejuru n'agapira k'umweru mo imbere n'akapfukamunwa, barimo baramutera urukingo rwa Covid cumi n'icyenda. Urumutera yambaye ishati y'umweru n'ingofero mu mutwe n'agapfukamunwa n'ijire y'icyatsi kibisi.

Umugore wambaye akaburuze k'icyatsi n'ijipo y'umweru irimo amabara, ufite mikoro uri kubwira abantu. Munsi ye hari akabafure, hirya hari agatute, idirishya rirafunguye ndetse hari n'indi bufure ku ruhande yicayeho umuntu uri kuyikoresha.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, harimo n'abanyeshuri bambaye inifomo bari kugenda bakora ubukangurambaga bafite igipapuro cyanditseho ngo rubyiruko; nimwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera sida wipimishe uyu munsi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati wikubise hasi uryamishijwe ku kantu abaganga bari kubuza abantu kumukoraho kugirango babanze bategure uburyo bamuvura. Aho aryamye ni mu busitani kandi hateye igiti gifite amashami menshi.

Abantu benshi b'urubyiruko bambaye imipira y'umweru, bafite ibyapa byanditseho ngo "twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira".

Abagore bane bahagaze ahantu inyuma hari ibiti byinshi ndetse hari n'imbuga ngari; bafite iki bandarore cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza; gusa ugenekereje mu kinyarwanda biravuga ngo; kanseri y'inkondo y'umura ni indwara ishobora kwirindwa.

Abaganga batandatu bambaye bifurebye imyenda ibakingira ahantu hose, n'udupfukamunwa ikunze gukoreshwa mu gihe cy'icyorezo, ndetse n'undi muntu uri inyuma yabo wambaye inifomo ya move n'agapfukamunwa, bari ahantu mu nyubako hijimye.

Abagore n'abakobwa babyina imbyino nyarwanda gakondo barimo gususurutsa abicaye muri sale imbere kuri bandelore iri ku gikuta, handitseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Icyumba kirimo abantu batanu bicaye ku ntebe z'umutuku, umwe ahagaze yambaye ikote afite mikoro mu ntoki, ku gikuta hariho sikirini yanditseho amagambo ari kubasomera, hari hirya ikindi kintu kimeze nk'igipapuro cyanditseho ibintu.

Abantu batatu bicaye imbere barimo abagore babiri n'umugabo uri hagati barimo kuganiriza bagenzi babo bicaye mu ntebe inyuma babasobanurira ku bigendanye n'insanganyamatsiko bafite.

Ibiribwa bigize indyo yuzuye harimo ibitunguru, imboga, amashaza, imiteja, insenda, karoti, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biteretse ahantu, birasa nk'ibiri kwigisha abantu kuba barya indyo yuzuye.

Abashyitsi bicaye mu ntebe z'imbere bari kuganiriza abantu, batumiwe n'ikigo k'igihugu gishinzwe kwita ku buzima RBC, babwira abantu ku bigendanye n'ubushakashatsi ndetse no kwita ku buzima.

Abagabo bambaye amakositimu n'abagore bamwe baricaye abandi barahagaze, barimo kwifotoza nyuma yo guhurira mu nama y'abafata imyanzuro igendanye no gukora ubukangurambaga kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye agapira k'umweru, isaha ku kuboko n'agapfukamunwa n'ipantaro y'umukara, arimo gutera urushinge umugore wambaye umupira w'umweru n'isaha ku kuboko n'agapfukamunwa, inyuma hahagaze uwambaye ishati irimo amabara ndetse n'agapfukamunwa, ku ruhande hateretse ikintu bifashisha.

Inzu y'ababyeyi cyangwa se materinite, yubatse ahantu hari ibiti n'ubusitani bugaragaramo indabyo, yubakishijwe amabati y'ubururu bwerurutse, asize irangi ry'umweru.

Utwuma two kwicundaho cyangwa gukorerayo siporo, inyuma hari igipangu gikikije inyubako y'ivuriro, inyuma haruguru harimo ibiti byinshi ndetse utwo twicungo turi mu busitani.

Icyapa cyanditseho ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, inyuma hari inyubako yabyo, imbere hari aho gukandagira h'amapave hateyemo uduti dutanga umuyaga, ku ruhande hari utwatsi.

Ubusitani bwiza buteyemo umukindo n'ikindi giti, ndetse n'indabyo zitandukanye hirya hari amashuri yubatse neza ndetse haparitse n'imodoka eshatu zo mu bwoko bwa karina.

Icyumba kirimo ibitanda bisashe neza, imbere hateretse akameza ndetse n'agatebe ku ruhande, ku madirishya hariho amarido meza y'umweru agiye arimo n'amabara y'umutuku.

Isange wani sitop senta aho bakira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'amadirishya n'umuryango inzu y'amatafari ahiye ndetse n'ikintu cy'umweru kiri aho idirishya bakinguriye.

Ibiro binini biteretsemo intebe eshatu zegereye akameza n'izindi eshatu ziri imbere ndetse n'izindi ebyiri ebyiri kuru ruhande sikirini ya televiziyo hejuru harimo umuntu imbere uhagaze hari inzugi ndetse handitseho n'amagambo n'udupapuro ku bikuta.

Icyumba cyo kwa muganga aho umurwayi acishirizwa mu cyuma, hari amaldo maremare meza, igikuta gisize irangi ry'umweru, agatanda umurwayi aryamaho ndetse na sikirini umuganga aba areberamo ibyo ari gukora.

Abaganga bicaye mu bitaro, uruhande rumwe rwicayeho batanu, ahandi na ho hari abandi batanu, gusa babiri muri bo barahagaze, biteguye kugenda.

Abantu batandukanye, abagore n'abagabo, bahagaze imbere y'ibitaro bya Butaro, byubatse mu nyubako ishaje yatangiye kuzana urubobi, impande yaho hari indabyo muri jaride ndetse hari n'ibiti birebire.

Umurwayi w'umugabo w'igikara, wambaye ishati y'umweru n'isengeri y'umweru, n'isaha ku kuboko, aryamye mu bitaro kwa muganga, n'ubwo ari kugenda yoroherwa, ariko aracyari aho ntibaraza kumucyura.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya kigezweho, gisakajwe amabati y'ibara ry'ubururu bw'ikirere, gisize irangi ry'umweru, imbere hari indabyo n'utujaride dukeya, ndetse kugirango uhagere uca mu nzira irimo urusakabuye.

Intebe ziteretse ebyiri ebyiri iz'ubururu n'izindi z'ivu, hagati yazo hagiye harimo imeza ziri ahantu muri sale yo ku bitaro, ku bikuta hari ibintu bishushanyijeho ndetse hariho n'amatara n'amakamera.

Umwana wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro, arasunika umuntu mu kagare k'abafite ubumuga, berekeza ku mugore wambaye umupira w'umweru, n'ipantaro y'umukara, ahantu hadekorejwe amabara y'icyatsi umweru n'umuhondo.

Inyubako irimo imiryango myinshi cyane, hari aho bavurira indwara wenda nka kanseri, diyabete, malariya, indwara zisanzwe, aho gusuzumira, aho kubonanira na muganga n'ahandi.

Inyubako y'ibitaro bya Nyarugenge ku marembo yaho hahagaze abagabo babiri bambaye umweru, hari ibiti bigiye biteye bitandukanye ndetse harubatse neza harimo n'utujaride twa hato na hato.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa yambariye ku kananwa arereka umwana w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi uburyo bwiza bwo koza amenyo inyuma hahagaze abandi bantu ndetse hari n'ikibaho cyo kwandikaho.

Abantu bari kwa muganga, bambaye udupfukamunwa ndetse bamwe baricaye basizemo intera hagati yabo, umukobwa umwe yambaye ikanzu y'iroza n'inkweto za kamambiri, hari n'umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umutuku n'inkweto z'umukara.

Abantu bicaye bakurikiye abandi bari kubaha ikiganiro, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'inyange, ndetse na mudasobwa, bigaragara ko bari kuganira ku ngingo z'ingenzi.

Laboratwari cyangwa se isuzumiro ry'ibizamini hicaye abagore bicaye ku ntebe ndende bareba inyuma hari n'abandi biyicariye hasi barimo baganira, hari indabyo nziza cyane kandi iyi nzu y'isuzumiro yubakishijwe amatafari ahiye.

Igiti kirekire, gifite amababi menshi gitanga agacucu, giteye impande y'ubusitani, ku ruhande rwo hirya hari inyubako nziza isize irangi ry'umweru, no ku rundi ruhande rw'ibumoso na ho hari izindi nyubako, harimo n'abarwayi barimo bagendagenda.

Ibitaro bivurirwamo abarwayi, imbere yabyo hahagaze abantu bane, hari n'imodoka ihaparitse, ku ruhande hari akajaride gatoya gateyemo igiti, ndetse n'abandi bantu bahagaze aho ngaho.

Inzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi yuzuye vuba isa neza cyane ikoze mu buryo buteye imbere, imbere yayo hari ubusitani bukiri kumera ndetse hari n'akantu gashinzemo itara.

Umugore wambaye igitenge n'igitambaro mu mutwe, ari kumwe n'umuganga wambaye inifomu y'ubururu baricaye bari kuvugana, bicaye imbere y'inzu yubakishije amatafari ya rukarakara ndetse hari n'urutoki n'indabyo.

Intebe nini ikoze mu buryo umurwayi yicaraho akegama, amaboko akayarambura ku tuntu ifite ndetse n'amaguru akayazamura; iteretse ahantu mu cyumba, ku ruhande hari akandi gatebe kagufi, ndetse hirya hari ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako y'ibitaro yubatse mu buryo bugezweho imbere hari inzira yo gucamo y'amapave hari ubusitani ku ruhande hateyemo n'agati gatanga amahumbezi.

Isange wani sitopu dental ya Remera Rukoma yubakishijwe amatafari ahiye, isize irangi imbere y'umuryango, impande yayo hari ubusitani burimo indabo nziza, inyuma hari ikigega gifata amazi.

Inyubako yo kuvuriramo abaturage, imbere yayo hari ubusitani ndetse harimo n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ku ruhande haparitse ipikipiki ndetse n'imodoka y'umutuku.

Kaminuza yigisha ibijyanye n'ubuvuzi ya Butare CHUB, yubatse neza cyane. Iruhande hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse haparitse n'imodoka nyinshi zo mu bwoko butandukanye.

Abaganga bari mu cyumba cy'abarwayi, bambaye imyenda ibafurebye ahantu hose nk'iyambarwa mu gihe cy'icyorezo cyangwa indi ndwara yandura, aho bari hateretse intebe ndetse hari n'abarwayi baryamye ku bitanda, aho hari amarido y'ubururu.

Umurwayi w'umusaza uryamye ku gitanda kwa muganga urimo uravurwa mu buryo bwo guhabwa serumu. Iruhande rwe munsi hateretse akantu ko gushyiramo imyanda ndetse muri icyo cyumba harimo amarido. Hari n'umuganga wambaye itaburiya wunamye uri gutegura ibyo araha uwo murwayi.

Raboratwari irimo ibikoresho bitandukanye, yaba ibyo gusuzuma abarwayi ubacisha mu cyuma, za mudasobwa, intebe zo kwicaraho ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Ibitaro bya Ruhengeri byubakishije amatafari ndetse n'amabati y'ubururu bwerurutse, bifite ubusitani mo imbere ndetse hari umuntu uryamyemo, iruhande rwabyo hari abantu benshi bagenda.

Umugore wambaye igitenge, hejuru yambaye iribaya, ufite akamarete, ahagaze iruhande rw'imodoka y'umukara, ku rundi ruhande hari abagore bari kuganira n'umusore wicaye, hirya hari abantu benshi bahagaze munsi y'ivuriro, bategereje guhabwa serivisi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ikote ry'umukara arahagaze iruhande rwe hicaye abandi bagabo babiri imbere yabo hateretse ameza, inyuma yabo hari ikintu cy'igipapuro cyanditseho amagambo kiri ku kibaho barimo baraganiriza abantu bicaye imbere biganjemo abagore n'abagabo.

Igitanda kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, birindwi, yewe ntiwabibara. Ariko abarwayi bariho si benshi cyane. Inzitiramubu ndetse n'umuntu wicaye mu kagare, usa nk'aho ari umurwaza cyangwa se undi muntu wita ku barwayi.

Ibitanda byo kwa muganga bigiye bikurikiranye, bisasheho amashuka y'icyatsi, biriho akantu k'ubururu ndetse n'ak'umweru kandi hariho n'akantu k'akuma gatuma umurwayi atagwa n'iyo yaba ari kubabara yinyagambura.

Kwa muganga aho basuzumira abarwayi, hari udutanda tubiri, hari sikurini ebyiri bareberamo, hejuru mu ikadire harimo imbuto nziza.

Inyubako ikoreramo mediyazari forumasi remera imbere yayo hari imodoka no ku ruhande rundi rwo hirya naho hari imodoka hateretse amavase arimo uduti dutanga umwuka mwiza.

Ibitaro bya gihundwe bivurirwamo amaso byubakishijwe amatafari ahiye n'amabati y'icyatsi cyerurutse, imbere yaho hari indabyo nziza z'umuhondo n'akayira k'amapave.

Abarwayi b'ingeri zose, abagabo n'abagore, bari ku kigo nderabuzima cya Gisenyi, iruhande rwacyo hari umugabo utwaye igare ririho umugore ufite indobo.

Abantu barimo umugore uhetse umwana abana ndetse n'abagore n'abagabo bicaye aho bakirira abagana ikigo nderabuzima bategereje guhabwa serivisi y'ubuvuzi yabazanye.

Abaganga batatu bari kwita ku barwayi babiri, umuganga umwe arahagaze afite ikaramu mu ntoki undi aricaye hari ibintu ari kwandika hanyuma undi we arimo arasuzuma umurwayi umwe bigaragara ko ari umugore n'umugabo bazanye kwisuzumisha.

Igitanda cy'umurwayi gisasheho amashuka y'umweru, iruhande rwacyo hari akantu bareberamo amakuru k'akayekara ndetse ku gikuta hari ishusho irimo umukobwa, ku rundi ruhande hari agateleviziyo ashobora kureba mu gihe arimo yoroherwa.

Abagabo babiri bambaye amataburiya y'umweru umwe yambaye baji mu gatuza bombi bambaye udupfukamunwa kandi bari kureba ku bisubizo byatanzwe nyuma yo gukora isuzuma muri laboratware.

Aho winjirira ugana mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge, hateye indabyo nyinshi cyane, akayira kinjiramo ni ak'amapave, hirya gato hari igiti kirekire ndetse hari n'indi nyubako iruhande rwacyo.

Umurwayi uryamye wambaye ingofero n'agapfukamunwa n'umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboye n'inkweto aryamye ku gatanda, muganga wambaye itaburiya wisukishije ibisuko wambaye n'uturindantoki arimo aramuzirika akantu ku kaboko, umurwayi yashyizemo imbaraga.

Abantu bahagaze batonze umurongo imbere yabo hateretse intebe zegamirwa ndetse n'iyindi y'urubaho, imbere cyane yabo hari umuntu uri mu kagare k'abafite ubumuga uri kugenda asanga abantu bicaye bagiye kumuha serivisi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, imbere yambayemo ishati y'amaboko maremare, afite ikayi ari kwandikamo ibyo ari kubaza umurwayi we w'umugore, inyuma hahagaze undi muganga wambaye imyenda y'ubururu hose, nawe ufite ikayi ari gusomamo.

Mu bitaro kwa muganga, hari umurwayi uryamiye urubavu, n'umugabo uri kumanika inzitiramibu, wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, uri kuvugisha mugenzi we n'ubwo tutari kumubona, hari imashini zikoreshwa kwa muganga, ndetse ni icyumba kinini cyane, gishobora kwakira abarwayi benshi.

Abaforomokazi batandatu bo mu ivuriro rya regasi, bambaye iniifomo y'ubururu bwerurutse hasi no hejuru, n'udupfukamunwa ndetse na baji mu ijosi.

Mu cyumba kinini kwa muganga kirimo amakaro, kirimo ibitanda by'abarwayi bigiye bitandukanijwe n'amarido y'umuhondo agiye ari hagati ya kimwe n'ikindi.

Ahantu ho gukorera siporo, hari tapi iciyemo imirongo y'umweru, ku ruhande hari utuntu twabugenewe, umuntu ahagararamo agasa nk'ugenda arimo akora siporo.

Abantu babiri bambaye imipira y'ubururu bwerurutse, umwe yambaye baji mu ijosi, bombi bambaye linete za fime, bari kumwe n'abandi bahagaze imbere y'inyubako ya materinite, inzu y'ababyeyi.

Ibitanda byo kwa muganga bisasheho amashuka meza y'umweru, biriho n'imisego, bigiye bisashe bikurikiranye, ndetse aho biri hari n'utudirishya kuri buri gitanda.

Umwana w'umukobwa wambaye agakanzu n'inkweto z'umweru n'umupira w'icyatsi w'ubudodo n'abandi bagore n'abagabo bicaye imbere y'ibitaro, bategereje kuza guhabwa serivisi z'ubuvuzi zabazanye.

Ibitaro binini cyane ku gice cyo kuvuriramo cyangwa kwita ku bagore babyaye materinete, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa uri kugenda agana imbere.

Inyubako ikoreramo ikigo nderabuzima cya Shangasha, imbere hicayeho abantu, inyuma hari igiti kirekire kiri kurenguka, imbere hari amapave aho abantu bagomba gukandagira.

Umugabo wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, ahagaze impande y'igiti gitambitse gisize amabara y'umutuku n'umweru, hari abandi bantu bari kuhagenda, ku ruhande hari ibyapa byanditseho indwara nyinshi ndetse hari n'imodoka ziparitse imbere y'ibyo bitaro.

Icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Matyazo, iruhande rwacyo hari umuhanda nyabagendwa urimo abagenzi, imbere mu kigo nderabuzima hari abantu barimo barasohoka, cyo cyubakishije amatafari ahiye, gisize irangi ry'umweru ku miryango.

Ibitanda byo kwa muganga biryamyeho abarwayi, kimwe kiriho umusaza uryamye uri kongererwa umwuka, ikindi hariho umugabo uryamye ahinnye amaguru.

Abaganga bambaye imyenda y'umweru n'udupfukamunwa barimo barasuzuma abarwayi, uri ku ruhande ari gusuzuma umugore wicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Umuganga wambaye itaburiya, agapfukamunwa, ingofero n'amadarubindi, arimo arasuzuma akana k'agahinja kari munsi y'amezi abiri gateruwe na nyina wambaye umupira w'ubururu.

Umuganga wambaye inifomo ya move, uturindantoki, isaha kuboko, n'agapfukamunwa yamanuye munsi y'akananwa, na rinete, ndetse afite n'ibisuko. Ari gusuzuma umukecuru wicaranye n'undi, inyuma yabo hari ibiti by'icyatsi.

Abaganga bahagaze mu cyumba bavuriramo abarwayi, hari agatanda baryamishaho umurwayi mu gihe aje arembye, na bo ubwabo bamwe bambaye imyenda y'ubururu, abandi itaburiya y'umweru, undi yambaye imyenda y'umukara ari nawe mugufi muri bo.

Umukobwa w'umukinnyi wiyogoshesha orudineriay'umusatsi muke, ari kunywa amazi mu gacupa kamwe kaba kanditseho ingano y'ayo umuntu amaze kunywa, yambaye furari mu ijosi, umukufi ndetse n'isengeri.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umukara n'inkweto, uri muri siporo, ari kuzamura akaguru agashyira ku kintu maze agakora siporo, aho ari hari ubusitani ndetse ahagaze kuri tapi.

Abaganga babiri bakora mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, baravura umukinnyi wikubise hasi, wambaye godiyo n'amasogisi y'umutuku, iruhande rwabo hahagaze abandi bakinnyi babiri ndetse n'umukameramani.

Imodoka y'imbangukiragutabara iri kugenda mu muhanda yihuta, hakurya y'umuhanda hubatse amazu akikijwe n'ibiti birimo ibirebire cyane, ndetse n'ibigufi ugereranije.

Abagabo bane bambaye imyenda ya siporo n'inkweto, bari kwirukanka mu muhanda uciyemo imirongo ufite pasiparume ku ruhande rwawo ndetse bakaba bari kugenda babiri babiri.

Akagare gafite amapine ane, aho gukandagira wicaye, umusego ndetse n'amahembe abiri n'akandi kantu ko kwegamaho.

Umurwayi wicaye muganga aramushyiraho akantu k'umweru, gafatanijwe n'akandi k'umutuku kandi muganga ni umuzungu nawe ,yambaye itaburiya y'umweru n'imbere harimo akantu k'ibara rijya gusa n'ivu.

Umugabo n'umugore bari muri siporo, bose bambaye udukabutura dutoya n'amasengeri, umwe iy'ubururu undi iy'ikijuju, bafite uducupa tw'amazi bari kugenda banywa mu ntoki.

Umugore w'umuganga wambaye ijire, afite akana k'agakobwa yakararamishije, ari kukamurika ngo amenye ikibazo gafite, we yicaye ku ntebe y'umukara ndende ko kicaye ku ntebe iri munsi.

Umugore uri gukora siporo yicaye ahantu muri jaride, yambaye inkweto za siporo n'agakabutura, inyuma ye hari akantu kazamuye kariho amatara, ndetse hari n'ikirere kigaragara nk'ikirimo izuba.

Umukobwa w'umusuporutifu yambaye akabisitiri ka oranje yambaye ekuteri mu matwi yazamuye akaboko, ku kaboko ke k'ibumoso hariho isaha ari kureba imbere.

Umuntu uri muri siporo ahantu ku gatapi mu nyubako irimo amakaro, akaguru kamwe yakarambuye akaganisha inyuma akandi aragashinga, afite imisatsi miremire, ndetse iyo nzu ifite n'amadirishya.

Umukobwa uri muri siporo ari kunywa amazi mu gacupa ka Nili, yambaye umupira w'iroza n'amayekuteri mu matwi ndetse ku kuboko kw'imoso yambayeho k'akantu bakoresha bumva uko umutima utera ari nako yashyizemo telefone ye.

Abana bari mu kigero cy'imyaka irindwi na cumi n'itanu, bari gukora siporo bakoreshwa n'abantu bambaye umupira w'umweru. Ku ruhande hari ibiti bya voka ndetse n'umurima uhinzemo ibigori, inyuma hari inzu iteye irangi ku ibati ry'umutuku.

Umukozi ukora mu bijyanye no gukorera masaje abarwayi, ari kumasa umuntu aho akaguru gahurira n'itako mu ivi, akandakanda kugira ngo abe yakoroherwa.

Umugore wicaye ku gatapi urimo gukora siporo, aho ari kurambura ibirenge bye, yarangiza akunama akarambura amaboko agakoza ibiganza bye mu bworo bw'ikirenge.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo y'umukara n'umutuku n'inkweto z'umweru, n'amasogisi y'umukara ari gukora siporo, iruhande rwe hari ibintu biteretse bimeze nk'ibizeru, icy'icyatsi, icy'umutuku n'icyubururu.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi n'akantu ka move ku kuboko impande y'ikiganza, arimo arisuka amazi menshi mu mumaso akoresheje icupa nyuma yo kuva muri siporo yahagiye.

Umugore muremure ufite imisatsi miremire wambaye imyenda ya siporo isa ahantu hose ari gukora azamuye akaguru azi neza ko siporo ari isoko y'ubuzima bwiza kandi ifasha mu kurinda indwara.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara, arimo arazirika bande ku kuguru kw'iburyo, umugore wicaye ku gatanda, wambaye ikabutura ya siporo y'umukara n'isengeri y'umukara, ku rukweto yambayemo isokisi rirerire.

Umukobwa wambaye umukara wose ndetse n'inkweto z'umweru ari gukora siporo yambaye ekuteri mu matwi ndetse ari kugenda arambura akaguru agakora ku kirenge.

Umugabo wakuze akora siporo arakurura akagozi k'umuhondo, ari kumwe n'umuganga wambaye ipantaro n'ishati by'ubururu bwerurutse, wambaye baji mu ijosi, bombi ni abazungu bari ahantu ho gukorerwa siporo.

Urukweto rwa siporo rurimo amabara y'umukara, umutuku n'umweru ndetse n'umupira urimo ibara ry'umukara n'iry'umweru n'akantu abaganga bifashisha barimo barumva uko umutima w'umurwayi utera.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare n'ikabutura ya kake, aricaye ku kantu arambuye amaguru, mugenzi we arimo aramuhambira bande ku birenge. Iruhande rwe hari igipapuro kirambitse ariko kizingazinze.

Umugabo ukora siporo cyane, wambaye umupira w'amaboko magufi, w'ubururu bwerurutse, n'ikabutura y'umukara, arimo araterura apfukamye. Iruhande rwe hahagaze undi muntu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'amaboko magufi, inyuma urebeye mu idirishya, hateye ibiti.

Umugabo wari uri gukora siporo arunamye ari kwikanda mu ivi, yambaye ikabutura y'umukara ya siporo ndetse n'isaha y'umukara ku kaboko.

Ikiganza cy'umuntu uri gusuka amazi meza y'urubogobogo mu kirahure akoresheje ijage ashyira mu kirahure, nyuma yo gukora siporo, amazi meza ni isoko y'ubuzima kandi siporo zirinda indwara.

Umugabo w'umuzungu wambaye agapira ka siporo k'ubururu n'ipantalo ya siporo y'umukara n'inkweto, afite telefone mu ntoki na amayeketeri yashyize matwi ari kunywa amazi, yicaye ku mayesikariye.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, aranywa amazi akoresheje icupa, araramye azamuye akaboko ndetse yambaye n'isenzeri y'ubururu bwerurutse, ahagaze ahantu hijimye.

Abantu bicaye benshi bari ahantu mu byatsi hateretse utubogisi tubiri twifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze ndetse hagati harimo n'agacupa nako kifashishwa.

Umugabo uri muri siporo wambaye agapira k'amaboko magufi kamufashe, yambaye ekuteri mu matwi ari kunywa amazi mu gacupa k'inyange, siporo zituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye isaha ku kuboko washinze ikirenge arambuye akaguru n'akaboko agakoza kuri godiyo yambaye mu kirenge, ari gukora siporo ahantu ari ni ahantu muri salle harangaye cyane.

Si byiza kwirirwa wicaye umunsi wose, gerageza gukora ibi gusutama urambuye amaboko uyegeje imbere, guhaguruka ukarambura amaboko areba inyuma, kuyarambura areba imbere, kuzamura akaguru kamwe ukagafata, ibyo byose bizagufasha kuruhuka mu gihe wiriwe wicaye.

Umugabo uryamye hasi azirikishije ikintu ku kaguru cy'umukara kigenda kigafata ku byuma biri aho muri icyo cyumba, yambaye ikabutura y'umutuku n'umupira w'amaboko magufi n'isaha ku kuboko.

Umusore wambaye isengeri y'umukara wiyogoshesheje inyogosho z'abikigihe yazamuye amaboko yombi ari gukora siporo aho ukuboko kw'ibumoso kuri gukora ku kuboko kw'iburyo naho ukw'iburyo nako kugakora mu mugongo.

Umugabo wambaye isaha yijimye ku kuboko n'isengeri, yazamuye amaboko ayahuza inyuma ku mutwe afatanyije ibiganza, intoki zinjiye mu zindi.

Abantu barimo abasore n'inkumi, abagore n'abagabo, bari muri siporo. Imbere yabo hari esikariye zigana ku nyubako iri haruguru, ndetse hari n'ibiti bihateye, bitari byinshi cyane.

Abaganga, abagore, n'abagabo baricaye bari kureba kuri sikirini mugenzi wabo uri kubabwira, undi yicaye imbere ya mudasobwa hacaginzeho amaterefone, ku rukuta hariho karindari.

Umugabo uri kunywa amazi meza nyuma yo gukora siporo, yambaye umupira w'amaboko maremare n'ikabutura y'umukara, impande ye hateretse ikintu cy'umukara, inyuma ku gikuta hubakishije amakaro.

Abashyitsi basuye abaganga aho bakorera, bari kureba umurwayi wavunitse akaguru bamushyize ku gitanda baramuryamisha, maze akavunitse bakazamura hejuru kugira ngo babashe kureba bifashishije agakoresho kabugenewe.

Umukobwa uri gukora siporo, ufite imisatsi myinshi yamupfutse mu maso, arakora arambuye akaguru akigije imbere agakozaho akaboko, mu gihe akandi agakoza mu mugongo.

Abaganga bambaye inifomo z'ubururu, uturindantoki, udupfukamunwa n'ingofero mu mutwe, bari muri operasiyo bari kuvura umurwayi, iruhande hari imeza iteretseho igisahane, bifashisha bashyiraho ibikoresho baba bari gukoresha.

Abana bambaye imyenda ya siporo umweru hejuru, umukara hasi bari gukora imyitozo ngororamubiri, mu kibuga cya basiketi. Iruhande hari abaturage baje kubareba ndetse inyuma yabo hahinze insina.

Umuganga wambaye inifomo y'ubururu n'ishati y'umweru mo imbere, ari kuvura umugabo uryamye wazamuye akaguru, wambaye imyenda ya siporo umupira w'umweru, ikabutura y'icyatsi n'inkweto z'umukara.

Ibikapu bitatu binini bisa, bifite ibara ry'umutuku ni ry'umukara n'akantu k'icyatsi ku ruhande, bibiri birapfunduye birimo ibikoresho bya siporo ariko ikindi cyo kiracyafunze.

Umuntu muremure, uri muri siporo, wunamye, wambaye isaha, n'agasengeri k'icyatsi, uri ahantu muri pave, ku ruhande hari korotire yubatse, ndetse hari n'ikirere gisa neza.

Umuntu wambaye ikabutura ufite amaguru abiri, ku kuguru kumwemye kw'ivi hashushanyijeho ibintu by'imirongo imwe y'ubururu bwerurutse, n'indi y'i roza imwe ica mu yindi.

Umuganga wambaye itaburiya n'agapfukamunwa wicaye ku ntebe, arimo gusuzuma umwana wambaye umupira w'ubururu mu kanwa nyina amuteruye. Iruhande rwabo hari umugore wambaye ishati y'umukara n'apfukamuwa k'umukara ndetse n'umugabo wambaye ishati irimo utubara twinshi n'agapfukamunwa k'ubururu bwerurutse.

Umugabo w'imisatsi mike, wambaye umupira w'ikijuju, ufite akaboko bigaragara nkaho akora siporo, ari kunywa amazi meza, ayanywesha gurude, afatishije ikiganza k'iburyo.

Umugabo uri gukora siporo, yambaye umupira wijimye w'amaboko magufi, afite agacupa karimo amazi ari kuyanywa andi ayicucagizaho ndetse yambaye na fime.

Abagabo bane barimo uwambaye ishati y'ubururu n'abandi bambaye imipira n'amapantaro, bari kugerageza guhambira umuntu wavunitse, uryamye ku kantu k'akamatera k'ubururu, inyuma hari intebe n'imeza ndetse hahagaze n'abandi bagore babiri.

Umugabo muremure, wambaye umupira w'icyatsi, uriho utuntu tw'umweru, wanditseho n'utugambo ku ruhande rw'ibumoso, afite umupira mu ntoki, yambaye n'ikabutura y'umukara. Siporo ni ubuzima kandi zirinda indwara.

Umukobwa wambaye isengeri ya kigore, ufite furari ku rutugu, uri muri siporo, ari kunywa amazi anywesha gurude araramye, yicaye ahantu mu cyumba cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye amajezi, umupira w'umutuku, n'ikabutura y'umukara ifite akantu k'umutuku ku ruhande, amasogisi maremare y'umukara n'inkweto za siporo, ari gukora siporo yunamye azamuye akaguru.

Umugore wicaye arimo akora siporo, yambaye imyenda y'umutuku wijimye, yambaye impeta ku rutoki, inyuma ye hateretse agatebe ndetse n'iruhande rwe rw'iburyo hateretse izindi ntebe ndende.

Umugore wambaye ipantaro ya siporo n'akantu kameze nk'agasutiye k'umukara, ari kwinanura arambuye amaboko, yicaye ku buriri busasheho amashuka abiri, ku gikuta hasizeho irange ry'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, ufite hedifone mu ijosi, ari kunywa amazi, anywesha icupa ry'ubururu, yambaye akantu ku kuboko, ndetse afite n'ama ekuteri ari kuva mu mufuka.

Umugabo wambaye umupira wubururu, wambaye isaha yumukara ari kunywa amazi mu gacupa k'inyange areba hejuru mukirere gihari kiratuje kimeze neza.

Umugabo ukiri muto wambaye isengeri ufite ukuboko kuriho pinya, ari kunywa amazi areba hejuru anywesha gurude y'ubururu bwerurutse ifite umupfugikizo w'umukara aranywera ku kazuba.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho bacisha abarwayi mu cyuma, hari sikaneri hari vandarateri hari agatanda baryamishaho umurwayi agaramye kugira ngo bamusuzume, hari idirishya rigaragaza indabyo z'icyatsi hari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye urukweto rumwe rwa siporo, ahandi ku kindi kirenge muganga ari kumupfuka akoresheje bande, ku gitanda aryamyeho hariho umukasi na bande ndetse muganga yambaye umupira w'ubururu uriho utuntu tw'umweru n'ipantaro ya kaki.

Uducupa tubiri tubiri ndetse n'akandi gakarito n'agacupa k'umweru harimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura biteretse ahantu buri kose ukwako ariko biringaniye.

Amababi meza atoshye y'igiti cy'umuravumba, kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo ibicurane, inkorora, anjine no kuribwa mu mihogo ndetse n'izindi.

Abantu bahagaze mu murima w'ibikakarubamba, byifashishwa mu buvuzi gakondo, bamwe bambaye imipira y'icyatsi yanditseho ibintu mu ijosi, ndetse abandi harimo n'uwambaye ikote, inyuma hari ibyatsi bigaragara ko hahinze.

Amashami y'igiti cy'umuravumba afite amababi atoshye, umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye hano muri Afurika y'Iburasirazuba, harimo ibicurane, inkorora no mu mihogo.

Agacupa karekare ka shampo kanditseho amagambo atandukanye amwe yanditse mu nyuguti nkuru andi yanditse mu nyuguti ntoya, hagati harimo akarongo gatambitse hagakurikiraho ayandi. Ibara ryanditsemo muri ibyo byose ni ibara ry'icyatsi kigiye cyenda kwereruka.

Urugemwe rw'icyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo, ruteretse mu kantu karimo itaka gasukwamo n'amazi, gafite amababi rimwe, abiri, atatu, ane, atanu, atandatu, arindwi, umunani, abiri abiri agiye ari hamwe, uretse ko hari n'aho rimwe rigiye riri ukwaryo.

Ibiti byakuze bifite amababi menshi, munsi yabyo hari utundi duti dufite uturabyo tw'umutuku n'utw'umuhondo, byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ishusho y'umuntu uri kuribwa impyiko, umugongo, ibikanu, ku rutugu, uruti rw'umugongo, igufwa ryo mu ivi, igufa ryo mu kuboko, igufa ryo mu nkokora ndetse n'uducupa turimo imiti gakondo ushobora gusigaho maze ugakira.

Igisate cy'ipapayi kirimo utubuto twinshi kiri kumwe n'irindi papayi ridakase rifasha mu koroshya mu nda mu gihe umuntu yagize ikibazo cyo mu nda, rikaba rivura n'izindi ndwara.

Imiti yo mu bwoko butatu yifashishwa mu kuvura mu buvuzi gakondo, itanga ubudahangarwa bw'umubiri, umwe uri mu gacupa gahengetse, undi uri mu gateretse neza, undi uri mu gateretse hejuru gato.

Umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, mu ndimi z'amahanga witwa. ''Forever Bee Honey''. ukorwa mu buki uri mu gacupa kariho agapapuro inyuma gashushanyijeho uruyuki.

Abantu bane bambaye imyenda ibafubitse ahantu hose, bari gusarura icyayi mu bitebo mu murima gihinzemo, iruhande rwabo hari akayira kagabanya imirima ibiri mo kabiri, gakomeza gatambika kajya hirya.

Umugore wambaye ibitenge birimo amabara y'umutuku n'umuhondo n'utudomodomo, ari guca akarabyo ku birabo byera uturabyo twa move, twifashishwa mu buvuzi gakondo.

Imiti gakondo iri mu ducupa tubiri yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu, wenda umuntu yazanye uduheri cyangwa se yabaye umutuku habayeho gushishuka cyangwa se hari ikindi kibazo cyabaye ku ruhu rw'umuntu.

Uducupa turimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, harimo ak'umuhondo, ak'umweru n'akandi k'umweru bitandukanyijwe n'imipfundikizo idupfundikiye, twose turiho igishushanyo cy'igikakarubamba. Hirya hari utundi tugufiya na two twifashishwa muri ubwo buvuzi.

Umuntu ufatanyije ibiganza bye yifashe mu nda, igikombe kirimo umuti wa rayishi ndetse n'igishushanyo kigaragaza mu nda y'umuntu aho amara aherereye n'umwana uri mu nda.

Umuganga wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara wambaye igitabuririya y'umweru, iruhande rwe hari izindi ntebe ebyiri zitiyicayeho abantu, ku meza amuri imbere hateretseho uducupa tubiri turimo imiti kamwe ariko wenda gushiramo.

Abakerarugendo bambaye imyenda yabugenewe bahetse n'ibikapu baratambika begera ahantu mu ishyamba hari umugezi ufite amazi amanuka ava hejuru aho bavuye hari ahantu hasashe amabuye.

Ibisate by'indimu bikase biteretse ku isahani y'umweru, iteretse ku kintu hariho n'agacupa k'umweru gafite n'umupfundikizo w'umweru hariho agapapuro k'ibara ry'umuhondo, ririmo na move kanditsemo amagambo.

Umugabo ugurisha imiti gakondo, ahagaze imbere y'iyo agurisha. Harimo imwe y'imbuto, indi iri mutumvelope, indi iteretse mu bicupa bya mayonese ndetse n'undi uri mu gicupa gisa nkaho cyavuyemo inzoga. Inyuma ye hari abandi bantu benshi baje kwigurira imiti.

Umugabo wambaye akagofero mu mutwe n'ishati, ucuruza imiti gakondo iri mutuyetajeri tugiye dutandukanye aho harimo iri mu ducupa tureture n'utugufi, ku ruhande hari umugabo wundi wambaye ishati y'umukara wazamuye ikiganza.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare afite igicupa kinini kirimo umuti gakondo wamaze gutunganywa, inyuma ye hateretse ibindi bikombe nabyo birimo uwo muti ndetse imbere ye hari ibyo ataratunganya ngo akuremo imiti.

Umugore wambaye ishati y'amabara yijimye, wambaye baji mu ijosi ndetse n'igitambaro cy'umweru mu mutwe, arimo aracuruza imiti gakondo iri mu ducupa tugiye dutandukanye, imbere ye hari umugabo uje guhaha wunamye, ku ruhande rwo hirya hari n'abandi bari gucuruza imiti nk'iyo.

Amavaze ateretse arimo ibitaka ateyemo ingemwe z'ibiti zatangiye gukura, zigiye zishamikiranye hirya hari ahantu harunze garaviye ndetse harimo n'ikindi kintu kimeze nk'umufuka cy'umweru.

Umuntu uhagaze ahantu hubatse mu buryo bwo guhinga kijyambere, hari udusashe twinshi turimo ibitaka n'agafumbire duhungitsemo imiravumba, harimo n'icyapa cyanditseho amagambo. Inyuma hari abandi bantu benshi bari gukora ndetse n'abandi bari gusobanurirwa.

Imiti gakondo iteretse ku kantu k'agakeka gato, hari iyiri ku kantu kameze nk'imbehe, indi iri mu twungo duto cyane, hari amatangawize akatakase ndetse n'utundi tw'utubabi.

Agasahane gateretseho agakombe, harimo indimu ikase ndetse n'umutobe wayo, ku ruhande hari tangawize n'indi ndimu idakase, biri ku gatambaro gateretse ku meza ibajwe.

Udukarito dutandatu duteretse ahantu ku ruhande hariho imineke itatu, ndetse inyuma hariho inanasi, ku ruhande rundi hariho uturarabyo tumeze nk'ibihwagari.